Kamera zifashishwa n'abapolisi bo mu muhanda kugira ngo bite ku mutekano w'abo mu muhanda, ibi bifasha abapolisi kubona kibazo kikiri kure, aho umumotari cyangwa se umunyamaguru atari kugenda neza bakamukebura kugira ngo birinde impanuka zo mu muhanda.

Abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda ni ingabo z'igihugu. Zigamije kugarura amahoro, gucunga umutekano, yaba mu gihugu imbere cyangwag se mu bihugu by'amahanga bidukikije.

Umupolisi aho yasuye abaturage muri gahunda yatwegera umuturage, kugira ngo abashishikarize uburyo bakwiye kuba ijisho rya mugenzi wabo, bagakumira ibyaha bitaraba.

Imbwa yifashishwa mu gusaka ibisasu cyangwa se ibindi bintu nk'iyo ugiye kwinjira ku kibuga cy'indege cyangwa se ugiye ahandi hantu nko mu mabanke cyangwa se mu zindi nyubako. Iyi mbwa irifashishwa kugira ngo irebe ko nta bintu bitemewe waba uhinjiranye.

Kizimyamoto ibikoresho byifashishwa mu kuzimya aba hantu habaye inkongi y'umuriro yaba inyubako yahiye, imodoka yahiye, mu buryo bwo gukaza umutekano ndetse no kuwucunga mu gihugu cyacu.

Kuri feruje, amatara ayobora abagenzi cyangwa se ibinyabiziga. Iyo hatse itara ry'umutuku bivuze ko abagenzi bagomba guhagarara, ibinyabiziga bikambuka. Hakwaka ako k'icyatsi, abanyamaguru bakagenda ibinyabiziga bidahagarara.

Imbwa zifashishwa mu gusaka ibisasu cyangwa se ibindi ibintu bitemewe byaba byinjijwe ahantu runaka, nko mu kibuga cy'indege, mu nyubako runaka, ndetse n'ahandi hatandukanye.

Abasirikare， abashinzwe umutekano mu gihugu cyacu， yaba imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo， mu kuzamura imibanire myiza ndetse n'amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu n'ibihugu bigikikije.

Kuri veruje amabara ayobora abagenzi n'ibinyabiziga, aho iyo hatse ibara ry'icyatsi bivuze ko abanyamaguru bagenda cyangwa se bakambuka ibinyabiziga bigahagarara, hakwaga itara ry'umutuku bikavuga ko abanyamaguru bahagarara hakagenda ibinyabiziga.

Abapolisi n'abasirikare, abashinzwe umutekano mu gihugu cyacu badufasha kubungabunga umutekano, yaba uwo mu gihugu imbere ndetse n'ibihugu by'amahanga.

Kamera yifashishwa mu gucunga cyangwa se kureba ibintu byose byanyuze aho ngaho. Iyi bayifashisha mu mutekano cyane cyane bakayishyira nko ku nzu cyangwa se inyubako runaka, iyo umuntu yahageze akagira ibyo yangiza, babasha kumubona.

Inama y'abadepite cyangwa se abandi bayobozi bo mu nzego za Leta, aho baba bigira hamwe ku byateza Igihugu cyacu imbere, ndetse bakegera n'abaturage bakababaza uko babyumva, bakabafasha gukemura ibibazo kugira ngo u Rwanda rwacu rukomeze rutere imbere.

Inama rusange y'abaturage ndetse n'abayobozi aho abaturage n'abayobozi bafatira hamwe guhangana n'ikibazo runaka kiriho bakungurana ibitekerezo byabafasha guteza igihugu cyacu imbere.

Muri sale ahantu habera inama z'abayobozi runaka, nk'abayobozi b'uturere, abayobozi b'imirenge cyangwa se abayobozi b'utugari, bari kwiga ku kibazo runaka cyo guteza imbere abaturage.

Mu nama, aho abayobozi bateranira ndetse n'abaturage muri rusange, bakigira hamwe ku byateza igihugu cyacu imbere, yaba mu kungurana ibitekerezo mu gukemura amakimbirane ari hagati y'abaturage, ndetse no guhana ibitekerezo.

Imisambi ibohwa mu busuna cyangwa se mubikangaga cyangwa se mu birere, ifashwa mu kwicarwaho cyangwa se kuyanikaho imyakaka mu rugo.

Amashyiga amabuye atatu aba ateganye aho abantu batekera cyane cyane ko akunda gukoreshwa mu bice by'amajyaruguru kuko haba amashyamba cyane abantu bateka bifashishijei ikwi abenshi bakoresha amashyiga bateka

Kuboha umusambi hifashishijwe ibirere cyangwa se ubusuna, umusambi ukaba ugira umumaro kuko abantu bawicaraho iyo bari mu rugo, ndetse babuze intebe zo kwicaraho barawukoresha.

Intore ababyinnyi babyina mu muco nyarwanda babyina imbyino nyarwanda zigaragaza umuco wacu, cyane cyane mu birori bitandukanye nko kwita abana b'ingage amazina, mu muganura no mu bindi bikorwa bitandukanye, bigaragaza umuco nyarwanda.

Iningiri igikoresho cy'umuziki cyakoreshwaga kera, mu gihe habaye nk'ibikorwa runaka nk'amatora, ubukwe, ibirori runaka, inama ndetse n'ibindi.

Kwitoza kurasa cyangwa se kumusha, aho byifashishwaga n'ingabo z'igihugu mu gihe cyo kwirinda umwanzi, cyangwa se mu gihe bari ku rugamba.

Inkoko ndetse n'imbehe zifashishwaga mu muco wa kera mu gihe cyo kurya, iyo habaga batetse nk'ibyokurya bitandukanye nk'imyumbati, ibishyimbo basukagaho bakarya.

Mu rukari ibwami munzu ndangamurage aho umwami yabaga haba ibikoresho bitandukanye birimo nk'intebe z'umwami, igisasiro cye, amacumu, ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu muco nyarwanda.

Umubirikira, urakiza, igicuma, umuheha cyifashishwaga cyera; umubirikira wifashishwaga bari gusuka ibintu, urukiza barunyweragamo, nk'imbetezi n'ibindi ndetse n'igicuma bakakinyweramo bifashishije umuheha.

Isekuro yifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, nk'iyo umuntu ari gusekura ubugari, gusekura isombe, gusekura ubunyobwa cyangwa se gusekura umuti.

Intore zifashishwa mu muco gakondo ,zibyina imbyino gakondo, zitaka u Rwanda, ndetse zikunda kubyina mu birori by'umuco nko kwita izina, ndetse no mu muganura.

Mu nzu ndangamurage iherereye mu majyepfo mu Rukari, aho abantu bajya, bakajya gusura ibikorwa byakorerwagayo , cyangwa se ibikoresho biriyo. Yaba abaturarwanda muri rusange, cyangwa se abakerarugendo bavuye mu bihugu byo hanze.

Inkono zikoreshwa mu guteka ziba zibumbye mu ibumba，cyangwag se ibibindi bataramo ubushera，ibigage，inzoga，abantu banywa nko ku muganura cyangwa se iyo habaye ikindi kirori runaka mu muco nyarwanda.

Igisabo igikoresho cyifashishwa iyo umuntu ari gucunda amata y'ikivuguto, ashaka ko havamo amavuta azayakoreshe ibintu bitandukanye. Ashobora kuyakoresha nk'umuti, ashobora kuyatekesha cyangwa se akayisiga.

Intore ziri guhamiriza ziboneka muco Nyarwanda, zibyina imbyino gakondo cyane cyane mu birori bitandukanye, yaba mu bukwe, mu muhango wo gusaba no gukwa, yaba ndetse no mu muhango wo kwita abana b'ingagi amazina, ndetse no mu muganura.

Intore zifashishwa mu birori bitandukanye byo bigaragaza umuco nyarwanda, harimo nk'iyo habaye ubukwe, iyo habaye umuganura, iyo habayeho umunsi w'umunyafurika, iyo habayeho umunsi runaka ushobora kugaragaza umuco nyarwanda.

Kwenga ibitoki, aho ibyo bitoki byifashishwa hakavamo umutobe wifashishwa mu gutara inzoga cyangwa se bakagurisha umutobe, bakabona amafaranga, umuntu agakemura ibibazo bitandukanye afite by'ubukene.

Ibibindi, ibikoresho bibumbye mu ibumba byifashishwaga kera abantu bagiye kuvoma, hataratera imbere ngo haboneke amajerekani yo ku kujyana. Kuri ubu byifashishwa mu gutaramo nk'imisururu, ndetse no kubikamo imyaka.

Intore zibyina mu muco nyarwanda zibyina imbyino gakondo iyo habaye ibirori runaka bigaragaza umuco harimo umuganura, kwita amazina abana b'ingagi ndetse n'ibindi bikorwa bigaragaza umuco nyarwanda.

Umwuga wo kubumba aho ,umuntu afata ibumba akaritoba, akarikoramo ibyo ashaka gukora. Ushobora gukuramo icyungo cyo gutekamo, inkono yo gutekamo, imbabura, udukoresho two gupfundikira, udukoresho two guterekaho ibintu, ndetse n'ibindi byo gutaramo ubushera n'ibigage.

Ingoma, imirishyo, intore n'ibindi byifashishwa mu muco nyarwanda cyangwa se mu mbyino gakondo, iyo habayeho nk'ibikorwa runaka birushaho kugaragaza umuco gakondo w'u Rwanda. Mu kwita amazina abana b'ingagi, gutaha ikigo cy'amashuri runaka n'ibindi.

Ababyinnyi babyina imbyino nyarwanda cyangwa se intore aho babyina mu ibirori bitandukanye nk'ubukwe , umuganura n'ibindi birori bishobora kugaragaza umuco nyarwanda.

Isekururo n'umuseguzo,n' ibikoresho byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi ,nk'iyo umuntu ari gusekura ibintu bitandukanye, nk'ubugari ,ubunyobwa, isombe, N'ibindi biribwa bitandukanye ,nk'uburo, umuntu arayifashisha.

Ingorofani zifashishwa mu bwubatsi nk'iyo umuntu ari gucunga umucanga awujyana aho bari kubaka, sima ,amatafari ndetse n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi.

Imbehe, igikoresho cyifashishwaga kera iyo babaga bari kurya kibajwe mu giti, gusa ubu ntikigikoreshwa kuko bagishyiragaho ibyo kurya, none ubu hasigaye hakoreshwa amasahani.

Umuvure, ubukamuzo, ibicuma, imiheha byifashishwa mu gukama ibitoki, ukenga umutobe, kunywa umutobe ukawushyira mu gicuma ukajya unywa ukoresheje umuheha, ndetse no kwenga umutobe.

Gusimbuka mu muco nyarwanda byakorwaga n'abahungu, cyane bari kwitoza igisirikare, cyangwa se kuba intwari, cyangwa se kuba ingabo z'igihugu.

Umuvure aho bafata ibitoki bakabitara bakabyengeramo, hakavamo umutobe, hagatarwamo inzoga, cyangwa se hakavamo umutobe hakavamo umutobe, abantu bakirinda inyota cyangwa se bakawugurisha, bakabona amafaranga, bagakemura ibibazo bitandukanye.

Ahantu hakorerwa umwuga w'ububumbyi aho babumba ibikoresho bitandukanye harimo: inkono, ibyongo, imbabura, ndetse n'ibindi bikoresho bikozwe mu ibumba.

Igisoro cya cyo cyarakinwaga mu muco nyarwanda, kugira ngo bitume abantu babasha gusabana, biyumvanemo, ndetse banezerwe basabane n'abandi.

Iningiri igikoresho cyifashihwaga kera muco cyane cyane igikoresho cy'umuziki, iyo habaga habaye nk'ubukwe ndetse n'izindi gahunda zitandukanye barakifashishaga mu gihe bari kuririmba bakagicurangisha.

Ingoma n'imirishyo byifashishwaga mu kuzana imiziki cyane cyane iyo babaga bagiye kubyina. Intore zabaga zigiye kubyina byarifashishwaga kugira ngo zibone umujyo zigenderaho zibyina.

Kumasha cyangwa se kurasa byabonekaga mu muco nyarwanda wo hambere iyo ingabo z'igihugu zabaga ziri kwitoza kugira ngo zizabashe guhangana n'umwanzi.

Umutiba wifashishwaga kera bahunikagamo imyaka cyane cyane y'ibinyampeke kugira ngo itamugwa cyangwa se ikabora, harimo ibigori, amasaka, ibishyimbo, uburo, ndetse n'ingano.

Intore zifashishwa mu guhamiriza mu muco nyarwanda cyane cyane iyo habaye ibirori runaka. Nk'iyo habayeho gutaha ikigo cy'amashuri, umuganura, kwita abana b' ingagi amazina, ndetse n'ibindi bikorwa nyarwanda.

Intore zigira umumaro ukomeye mu muco nyarwanda, kubera ko zifashishwa mu kubyina imbyino gakondo cyangwa se imbyino nyarwanda ziteza imbere umuco w'Igihugu cyacu.

Amabuye atatu yahurizwaga hamwe agaterekwaho isafuriya bikitwa amashyiga umuntu agacanamo agashyiramo inkwi, agatekeho ibyo kurya ibyo ari byo byose.

Imiheha yifashishwa mu kunywa ,cyangwa se gusoma mu bintu bitandukanye, gusoma nk'ubushera, ikigage n'urwagwa, hifashishijwe n'ibibindi n'ibindi.

Amasaka ni igihingwa gihingwa ahantu hatandukanye. Kigira umumaro ukomeye. Gifasha mu kubona ibyatsi by'amatungo cyangwa se na none kikifashishwa mu kwenga imisururu, ubushera ndetse kikifashishwa nk'ikinyampeke cyongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Amayogi yifashishwa n'intore, iyo ziri kubyina kubera ko bayazirika ku birenge agatanga amajwi meza, iyo bari kubyina ukumva ni byiza cyane akazi kakiyongera.

Intore zibyina mu muco gakondo cyangwa se zibyina imbyino nyarwanda cyangwa se imbyino gakondo zifashishwa mu gihe habaye ubukwe runaka, mu gihe cyo gusaba no gukwa cyangwa se habaye ibindi bikorwa runaka bya leta bigaragaza umuco.

Umutiba uboshywe mu biti. Bakawusiga inyuma amase mu buryo bwo kuhoma, wifashishwaga kera muguhunikamo imyaka nk'amasaka, ibishyimbo, ibigori ndetse n'ibindi.

Igisabo cyifashishwaga kera mu muco nyarwanda，bari gucunda amata ndetse n'ubu kirakifashishwa， cyane cyane iyo abantu bari gucunda amata bashaka amavuta，cyangwa se mu muco nyarwanda iyo umuntu yakoze ubukwe， Baracifashishwa mu muhango wo gusaba no gukwa.

Intore zibyina imbyino gakondo cyane cyane imbyino nyarwanda zisigasira umuco nyarwanda, zikoreshwa mu gihe habaye ibirori runaka nk'umuganura, umunsi wo kwita abana b'ingagi amazina, ndetse n'undi n'indi minsi mikuru biteza imbere umuco nyarwanda.

Intebe zo kwicaraho ziboshywe mu bishishwa by'igiti cyitwa umugwegwe， izi ntebe zikoreshwa mu buzima bwa buri munsi，iyo umuntu yabonye abashyitsi，ndetse n'iyo abantu bamusuye azibicazaho.

Agaseke mu muco nyarwanda kashushanyaga uburumbuke cyangwa se amahoro, agaseke kifashishwaga iyo umuntu agiye gusura nk'ahantu. Akakajyana cyangwa se iyo umuntu agiye mu bukwe akagatanga nk'impano bivuze ko abifurije uburumbuke mu byo bazakora byose.

Umuvure wifashishwa mu bikorwa bitandukanye, nko gutaramo urwagwa, kwengeramo umutobe, gukanjikamo ikikatsi n'ibindi.

Inkongoro yifashishwa mu buzima busanzwe iyo umuntu agiye kunywa amata bayamushyiriramo cyangwa se bakayabikamo hanyuma akaza kuvura akazanyobwa nk'ejo. Ni igikoresho gikozwemo mu giti.

Intore zifashishwa mu bikorwa bitandukanye, birimo ibikorwa by'umuco nyarwanda, harimo umuganura, ibikorwa nko kwita ingagi, gutaha ikigo runaka no kwita amazina abana b'ingagi.

Intore ziri guhamiriza ziboneka cyane cyane mu muco nyarwanda, niyo habaye ibikorwa runaka nk'umuganura, habayeho umunsi w'umwana w'umunyafurika, iyo habayeho kwita ingagi amazina, izi ntore zirifashishwa mu kugaragaza umuco nyarwanda.

Ikibindi cyifashishwaga bataramo urwarwa cyangwa se ikigage, cyangwa se ubushera, aho ibyo binyobwa byifashishwaga mu muco nyarwanda, n'iyo habaga umuganura cyangwa se mu bukwe.

Umweyo w'ibiti wifashishwa mu gukondora cyangwa se gukubura imyanda iri murugo, cyangwa se munzu kugira ngo hase neza, twirinde indwara ziterwa n'umwanda harimo nk'amavunja n'izindi.

Sharijeri yifashishwa mu gucagenga ibikoresho nk'amatelefone ndetse n'ibindi bikoresho nk'amaradiyo, amatoroshi n'ibindi bikoresho byifashishwa ari uko bifite umuriro.

Itara ryifashishwa mu gucana ku mashanyarazi cyangwa se ku ku murasire, ibyo waba ukoresha byose ucana .Amatara adufasha kugira ngo ahantu habone, waba uri gukora igikorwa runaka, cyangwa se uri kugenda mu nzira ,waryifashisha bikakurinda umwijima.

Ku kigo cy'amashuri, aho abanyeshuri bajya gutangira bajya, yabo muri nasali, muri pirimari, muri segonderi, yaba abacumbikirwa ndetse n'abiga bataha.

Inyubako za Leta cyane cyane nk'ibiro by'akarere aho abaturage bajya kwaka serivisi runaka bakeneye cyangwa se bakajya kuhabariza ibibazo bagize ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ubuyobozi bw'akarere bukabafasha kubikemura.

Ibiro by'umurenge aho abaturage baja kwaka serivisi zitandukanye nko kwandikisha, aho abaturage bajya gusezeranira imbere y'amategeko, aho bajya kubaza ibibazo bitandukanye byo mu buzima busanzwe ndetse abayobozi bakabafasha kubikemura.

Ku kigo cy'amashuri aho abanyeshuri bakura ubumenyi butandukanye yaba abiga pirimeri, abiga segonderi, abiga mu nasari ndetse n'abiga mu mashuri yisumbuye arizo za kaminuza.

Kuri tiribine aho abaturage bajya kubariza ibibazo, habera inama cyangwa se ibindi bikorwa bihuza abaturage bagakemura ibibazo.

Ku ikigo cy'amashuri aho abanyeshuri bajya kwigira, yaba abo muri primere segonderi, ndetse na za kaminuza aho bajya gukomereza amasomo yabo.

Ku musigiti aho abayoboke ba isilamu bajya gusengera cyangwa se bajya gusarira, kuwa Gatanu ndetse no mu yindi minsi igihe babishakiye kujyayo.

Inzu nziza cyane, inyubako rusange aho abantu barushaho kujya kwaka serivisi runaka z'ubuyobozi, cyangwa se yenda akaba ari nko mu nsengero cyangwa se mu bigo bya Leta bisanzwe.

Urusengero rw'Abahamya ba Yehova aho bajya gusengera umunsi basengeraho, bakaramya Imana ndetse bagahimbaza, yaba ku isabato, ku cyumweru, ku wa mbere, kuwa kabiri ndetse n'indi minsi, iyo babipanze.

Indabo z'amako atandukanye z'amabara atandukanye, zituma ahantu hari inyubako hasa neza, hakaza akayaga ndetse ukaba wajya kuhifotoreza hakagira akavuyo keza.

Ku kigo cy'amashuri mu kibuga cy'umupira, ahabera imikino itandukanye y'amaboko ya basiketiboro, voreboro, handoboro ndetse n'imikino itandukanye harimo n'imikino y'amaguru, aho abanyeshuri basabanira ndetse bakagorora ingingo z'umubiri wabo.

Mu kiriziya aho umusasaridoti cyangwa se umupadiri atangira misa ku bakirisito Gaturika, buri cyumweru cyangwa se mu yindi minsi y'imibyizi igihe bashatse ko haba misa.

Mu kiraro ahantu habera ubworozi bw'amatungo atandukanye yaba ubworozi bw'inka ubworozi bw'ingurube ndetse n'ubworozi bw'ihene cyangwa se intama aho zororerwa hamwe zigatanga umusaruro utubutse ndetse zikororwa kijyambere kugira ngo zizane umusaruro uhagije.

Urusengero rwifashishwa n'abakirisitu yaba abasenga ku Cyumweru, kuwa Gatandatu ndetse no mu yindi minsi aho bajya gusengera bagasabanira n'Imana.

Ikiraro bita indege, ikiraro kiba kiri hejuru cyane gikozwe n’amarasoro. Abantu bagenda bacaho bambukiranya, kuko babonaga bigoye ko aho hantu bahashyira ikiraro cy’ibiti, bakahashyira ikiraro cy’amaraso, kuko cyo biba bishoboka ko cyaba kirekire kikambukiranya nk’imisozi runaka, abantu bakajya bambukiraho bitabagoye.

Ku kigo cy'amashuri aho abanyeshuri batandukanye bigira Yaba banyeshuri bo muri pirimeri abanyeshuri bo muri nasari ndetse n'abanyeshuri bo muri segonderi aho bafatira mu mafunguro ya saa sita hanyuma bagataha nimugoroba.

Ikiraro cyo mu ikirere kifashishwa iyo babona ahantu hataba ikiraro k'ibiti, kubera ko haba hahanamye cyane cyangwa se hatenguka cyane, bakifashisha iki kiraro twita indege.

Ku Kiliziya, aho abakiristu Gatolika bajya gusengera buri gihe ku Cyumweru mu misa, ndetse no mu misa y'iminsi isanzwe cyangwa se habaye mpamvu runaka ituma bajya mu misa, nk'iyo umuntu yapfuye bakajya kumusabira.

Inyubako zitandukanye ziherereye ahantu hamwe, haba harimo inyubako za leta zigiye zitangirwamo serivisi runaka, ndetse n'inyubako z'abaturage, aho abantu batura, bakahataha ndetse bakahaba.

Inama rusange y'abaturage aho buri muturage wese avuga ikibazo cye, agakemurirwa ikibazo afite ndetse abayobozi bagahabwa inshingano zo kwegera abaturage, bakabakemurira ibibazo byose bafite mu midugudu.

Inama y'abaturage n'abayobozi aho umuyobozi yegeraga abaturage. Akabafasha gukemura ibibazo biri mu mudugudu ndetse no mu kagari.

Inama y'abaturajye ibashaho gukemura inteko rusanjye baba bashobora gukemura ibibazo bitandukanye baba bagize ndetse bakababaza ibibazo ku kintu runaka baba batumva aho ubuyobozi buba bwejyeye abaturage kugira ngo babafashe gukemura ibibazo byabo.

Uburenganzira bw'abaturage ni ukwitorera abayobozi bashaka, kuvuga ibibazo bafite bagakemurirwa, ndetse no kwakira izindi serivisi za Leta zidasaba ikiguzi, kandi batarenganyijwe. Ndetse aho bafite ibibazo bakarenganurwa.

Inama rusange y'abaturage aho bafataniriza hamwe kureba ibyateza Igihugu cyacu imbere, aho bavuga ikibazo bafite umuyobozi akabafasha kugikemura, ndetse nabo bagafata ingamba zo gukemura ibibazo, aho ndetse bahurira n'abayobozi bagahanahana amakuru.

Bisi cyangwa se ikimodoka kinini gifasha abagenzi gutwara ibintu ndetse n'abantu bagiye mu bice bitandukanye by'igihugu cyangwa se bavuyeyo yaba abavuye mu isoko, ku kazi ndetse n'ahandi.

Muri gare ahantu haparika imodoka zitandukanye, ama moto, amagare n'ibindi bikoreshwa mu ngendo zo gutwara ibintu n'abantu. Waba uvuye mw' isoko, waba uvuye mu kazi, waba ugiye gusura, wabugiye n'ahandi hantu ushobora gutega imodoka cyangwa se moto, ikabugeza aho ushaka kugera bitakugoye.

Bisi yifashishwa mu ngendo zo kuva ahantu hamwe ujyahandi. Yaba ari ingendo z'abanyeshuri, ingendo z'abaturage, bavuye mu gace kamwe bagiye mu kandi. Yaba bagiye mu kazi ka buri munsi bakoresha iyi modoka.

Akamoto kifashishwa mu kugeza umusaruro ku isoko cyangwa se wagiye ku isoko ugahaha ugahaha ibintu byinshi akakamoto karagufasha kakabitwara kakabigeza aho ushaka kubigeza.

Bisi yifashishwa mu ngendo zitandukanye ,iyo uvuye ahantu runaka ugiye ahandi, ushobora kuyifashisha. Iyo ufite utuntu runaka ushaka kohereza ahandi kandi utabasha kugerayo ,wadushyira muri bisi bakatukugerezayo.

Abamotari iyo umuntu agize ikibazo yagiye nko gutega, cyangwa se iyo umuntu agize uburwayi, agiye kwa muganga adashoboye kwijyana, utega umumotari akakujyana akakugeza aho ubasha kugera, cyane cyane mu musozi ahantu imodoka zitagera, umumotari aragufasha akakugeza aho ubasha gufatira imodoka.

Abanyonzi, abantu batwara ibintu n'abantu. Mu gihe ugiye gutega ukabura imodoka, ufata umuyonzi waba ufite agatwaro akakagutwaza, akakugereza aho ugiye cyangwa se nawe waba ushaka gutega, akagutwara akakugeza aho ugiye.

Litiko imodoka nini yifashishwa mu gutwara ibintu n'abantu bavuye mu duce dutandukanye cyangwa se bajya ahantu hatandukanye nko ku ishuri, mu kazi, kwa muganga n'ahandi.

Abamotari bifashishwa mu bikorwa by'ingendo zitandukanye ,yaba mu gutwara ibintu n'ibintu, uvuye ahantu hamwe ugiye ahandi, waba ugiye mu kazi, ku isoko gutembera ,gusenga ndetse n'ahandi.

Muri gare aho imodoka ziparika cyane cyane imodoka zitwara ibintu n'abantu zikaharuhukira, zikahafatira abagenzi, ndetse zikaba zahafatira n'imyaka cyangwa se ibintu zigiye kujyana aho zikomereje.

Akamoto kifashishwa mu gutwara ibintu n'abantu cyane cyane iyo uvuye guhaha waguze ibiribwa byinshi cyangwa se ukeneye kujyana umusaruro wawe ku isoko wifashisha aka kamoto kakabikujyanira kakakugereza aho ushaka kubigeza.

Moto itwara imizigo itandukanye, ibirayi, ibitoki, amasaka, ndetse igatwara abantu ibavana ahantu hamwe ibajyana ahandi, hifashishwa muri tiransipoti.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abanyeshuri, iy'abanyeshuri biga kure kandi biga bataha hifashishwa iyo modoka ikajya kubafata mu gitondo, buri wese ikamukura iwabo, ikaza no kubasubizayo nimugoroba batashye.

Muri gare ahantu haparikaga amamodoka agiye ahantu hatandukanye, waba ugiye gutega cyangwa se ufite aho ugiye, ukagenda ugatega imodoka ijya aho ugiye ikakugezayo.

Imodoka zitwara ibintu n'abantu cyane cyane zikoreshwa zitwara imitwaro cyangwa se imizigo ziyikuye mu gace kamwe ziyajya ziyijyana mu kandi gace, ndetse n'abantu iyo bavuye mu gace kamwe bagiye mu kandi gace.

Abamotari bagufasha mu rugendo iyo ujya ahantu hatandukanye, cyangwa se iyo waguze ibintu ushaka kubigera aho utuye, ushobora gutega umumotari akabikugereza aho utuye ,ndetse nawe akagutwara, mu gihe ahantu ugiye gukorera urugendo nta modoka zihagenda.

Imbangukiragutabara cyangwa se imodoka yitwaga ambulanse, ikoreshwa ku bitaro mu gutwara abarwayi ibavuye ku bitaro bimwe ibajyana ku bindi bitaro.

Ikinyabiziga cyitwa moto gikoreshwa mu ngendo z'abantu n'ibintu. Iyo ugiye gutega ukabura imodoka cyangwa se ugiye ahantu hatagenda imodoka, wifashisha moto ikakujyana ikakugeza aho ugiye ndetse ikaba yanakugarura.

Muri sitade ahabera imikino ngororamubiri ,yaba imikino y'umupira w'amaguru haba imipira y'amaboko n'ibindi bikorwa by'imyidagaduro nk'imbyino, kuririmba mu marushanwa n'ibindi.

Umukino wa Basiketiboro, aho amakipe abiri yombi aba afite umupira umwe wo gukina, ikipe itsinda ni iba yakinnye amanota menshi, igaterera umupira muri fire inshuro nyinshi.

Ku kibuga cy'umupira ahantu hakinirwa imikino itandukanye. Harimo iy'amaguru, iy'amaboko nka kiriketi handiboro, voreboro, basiketiboro, bigafasha mu kuzamura ubusabane bw'abantu n'abandi, iyo bahurijwe hamwe barimo gukina umukino runaka.

Ku kibuga cy'umupira ahantu habera imikino itandukanye, aho amakipe ahurira akina imikino itandukanye, nk'imipira y'amaguru, imipira y'amaboko, ariyo handi bolo, basiketi bolo, ndetse na vole bolo.

Kuri sitade ahantu habera imikino itandukanye, yaba imikino y'amaboko, imikino y'amaguru. Mu mikino y'amaboko harimo handiboro, basiketiboro, voreboro, kiriketi, baseboro n'indi mikino itandukanye.

Muri sitade aho abakinnyi bajya gukinira imipira, yaba umupira w'amaboko umupira w'amaguru ndetse n'ubundi bwoko bw'imikino itandukanye ndetse n'indi myidagaduro.

Muri sitade ahantu habera ibikorwa by'imyidagaduro cyangwa se bijyanye na siporo, harimo imipira y'amaguru, imipira y'amaboko harimo Handiboro, Basiketiboro na Voliboro.

Torudirwanda, isiganwa ry'agemagare aho baba barushanwa banateza imbere umuco wa siporo mu gihugu cyacu, cyane ko iyo barushanwe, ubaye uwa mbere ahembwa ndetse kandi bikongera umubano n'ibihugu by'amahanga.

Fire iba iri mu izamu mu mupira w'amaguru, iyo umupira cyangwa se baro bije bikajya muri fire, biba bivuga kuko batsinze igitego, ikipe iri gukinira muri iryo zamu.

Umuhanda, urujya n'uruza rw'abantu. Aho abantu banyura bagiye ahantu hatandukanye; yaba ku isoko, ku ishuri mu nsengero ndetse n'ahandi bagiye gukora ibintu bitandukanye.

Mu kibuga cy'umupira aho abanyeshuri bitoreza imikino itandukanye, bakagorora ingingo z'umubiri wabo, ndetse bagasabanira n'abanyeshuri bagenzi babo.

Mu kibuga cy'umupira aho bakinira imikino itandukanye imikino y'amaguru, imikino y'amaboko harimo basiketiboro, voliboro, handiboro ndetse na Kiriketi.

Mu kibuga cy'umupira ahantu hakinirwa imikino itandukanye, yaba imipira y'amaguru, imipira y'amaboko harimo za handiboro, basiketiboro, na voreboro ndetse n'indi mikino y'imyidagaduro.

Ikibuga cy'umupira ahantu habera imikino y'amaboko, cyane cyane umukino wa vore boro ,naho ufasha guteza imbere umuco wa siporo ,ndetse no guteza imbere ubusabane hagati y'abantu n'abandi.

Muri sitade ahantu habera imikino itandukanye, cyangwa se iyo habayemo ibirori runaka by'igihugu, aho abantu bajya guteranira ari benshi habaye nk'igikorwa runaka.

Turudirwanda cyangwa se amarushanwa yo gutwara amagare, aho umuntu watwaye igare akaba uwa mbere, ahembwa kandi ibi bifasha kuzamura imibanire y'ibihugu by'amahanga.

Umukinnyi w'umupira w'amaboko ari wo basiketiboro umukino ufasha abantu kugira ubuzima bwiza aho bakoreramo siporo.

Sitade ahabera imikino cyangwa se ibindi bikorwa by'imyidagaduro harimo nko kubyina, amarushanwa y'abaririmbyi ,ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye na siporo

Ku kibuga cy'umupira, aho abantu bahurira bagiye mu mikino itandukanye , nk'imipira y'amagurupira ,imipira y'amaboko ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye by'imyidagaduro ,nko kubyina, kuririmba n'ibindi.

Umukino wa handiboro, aho abakinnyi bo ku mpande zombi bakina bakoresheje ibiganza, buri wese akagenda ateera mu izamu ry'abandi kugira abagize ibitego byinshi nibo baba batsinze umukino.

Muri sitade ahantu habera imikino itandukanye yaba imikino y'amaboko harimo nka volleyball ,basketball ndetse na handi baul harimo imipira w'amaguru ndetse n'ibindi bikorwa by'imyidagaduro.

Umukino wa basiketibolo ni umukino w'amaboko ukinwa ndetse hagatsindwa nk'iyo umupira winjiye muri file, ari bwo babara amanota bitewe n'aho uwuteyemo uhagaze.

Ku kibuga cy'umupira abantu bakina umupira w'amaboko yaba volebolo cyangwa se basiketibolo cyangwa se na handibolo mu kugira ngo bateze imbere umuco wa siporo mu gihugu cyacu.

Umuhanda w'igitaka, uri impande y'agasoko n'amabutike, aho abantu banyura bagiye guhaha, mu isoko harimo ibicuruzwa bitandukanye, nk'inkweto, imyenda, ibiribwa, ibinyobwa, n'ibindi bikoresho dukoresha mu rugo.

Akayira ko mu karitsiye iyo umuntu agiye ahantu hatandukanye ashobora kujyayo, aka akayira aba ari nyabagendwa, ariko ntabwo aba ari umuhanda munini cyane ku buryo waba umuhanda w'imodoka , ariko nyine urakoreshwa nko kunyura mu dukaritsiye.

Kaburimbo umuhanda nyabagendwa abantu bakoresha bagiye ahantu hatandukanye, nk'iyo ugiye gusenga, ugiye ku isoko guhaha, ugiye ndetse no ku shuri, wakoresha uyu muhanda ndetse ushobora kuwugendamo n'amaguru cyangwa se ugatega.

Umuhanda wo muri karitsiye aho abantu banyura bagiye ahantu runaka, aho ushobora kuba ugiye ku isoko, kwa muganga, ku ishuri cyangwa se gushaka izindi serivisi zitandukanye.

Mu muhanda aho abantu banyura bagiye ahantu hatandukanye, cyangwa se bavuye ahantu hatandukanye, waba werekeza ku isoko, ku ishuri, kwa muganga, mu murenge kwaka serivisi zitandukanye, cyangwa se ugiye ahandi hantu niho unyura.